Umuntu wambaye amarinete ari mu kazu ka MTN hirya ye hari umuntu wambaye amarinete na we, ku ruhande rwe hari abandi bantu bunamye ndetse akazi ka MTN karakinguye.

Abagabo babiri bahagaze ku kazu ka MTN, inyuma yabo hari ikindi cyapa kiriho MTN, Airtel, Tigo Cash na nimero zitandukanye, mo muri ako kazu mo imbere harimo umwajenti wa MTN, Airtel andi Tigo.

Abagabo babiri barimo kwifotoza bambaye, umwe yambaye amarinete ni baji irimo Airtel y'umutuku n'ikoti ry'umukara. Undi yambaye umupira w'umutuku.

Umuhanzi uri kuri siteji yambaye ijiri ya Airtel irimo amabara y'umutuku n'umweru, afite mikoro ifite amabara y'umukara ndetse n'umutuku, yambaye n'ingofero y'umweru.

Abantu benshi bambaye amajiri ya MTN, ku ruhande hari ritiko, ku rundi ruhande hari imodoka, umugore uri kuri terefone afite agashakoshi yambaye agapira ka ka oranje.

Abagabo babiri, umwe arahagaze, yambaye ijiri ya MTN n'undi arunamye, afashe icupa, ari gushyira ku ntebe, inyuma yabo hari agatajeri karimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, hamanitseho umutaka wa Airtel.

Abantu benshi bari n'umugabo urimo kugira icyo ababwira, yambaye imyenda isa n'akake, hari umugabo wambaye ingofero y'ikigara, isa umweru n'ishati y'ubururu.

Umugore ufashe mikoro, ufite indabyo, iruhande rwe hari abagabo babiri, umwe yambaye ikoti ry'umweru n'agapira k'umweru n'umugore ufite agashikoshi yambaye amarinete.

Ibigori bifite intete z'umweru, hari ibishishuye, hari n'ibidashishuye, hari ibifite imisatsi y'umukara ndetse hari n'ibifite ibiti bimanitse.

Ikirangantego cy'icupa ry'inzoga rya gatanu, kiriho amabara y'idalapo ry'u Rwanda, harimo izuba ndetse ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Ahantu hari amacupa y'utubuni harimo ay'amazi, amaji, harimo na fanta ndetse harimo na novida, harimo n'ikarito z'ibyuma harimo ikaziye ya sikolu...

Umugabo uri guhereza undi musore terefone mu ntoki yambaye agashati karimo mu bururu n'umweru n'umukara ndetse uwo mugabo wundi bari guhereza yambaye umupira w'umweru urimo n'uburongo bw'umukara.

Agakingirizo ka Pulizi kanditseho amazeru ane ndetse n'ibiganza bisize amahina y'umukara, ku ruhande hari amavuta ya Paresoro ndetse hagaragaraho n'ibara ry'umweru inyuma.

Abantu bahaga bicaye umukecuru ufite agafire k'umukara n'agapira k'ikijuju. Imbere ye hari imitako itandukanye ifite amabara y'ubururu n'umweru n'umukara.

Umuntu ufite imisatsi ari guseka yambaye akajiri kanditseho sekeleti biheviya ya inyuma ye hari mayoneze ndetse n'amagi kuruhande.

Intebe z'ubururu za palastike n'iz'icyatsi, inyuma hari ibase z'umutuku n'iz'icyatsi, hejuru hapfundikiyeho iz'umutuku iruhande hari imodoka.

Inzu y'ubucuruzi bw'imyenda, imbere ya ho hari imodoka iparitse, hasi hari amapave, asize amarangi y'umuhondo numweru.

Iduka ririmo sharijeri, harimo udutako tw'abana, amavuta yo kwisiga, umunzani, indobo ndetse n'amafanta, ubuto ndetse na skoro, inzoga zo banywa.

Urusengero rufite ibara ry'ubururu, umuhondo n'umweru harimo abakirisitu bicaye ku ntebe z'ibiti ndetse harimo umugabo uhagaze wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umweru.

Umugabo uhagaze ahantu mu ishyamba, hejuru ye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza bifowa andi fasiti, hasi hari urusengero, mu muryango ahagazemo umuntu, imbere yaho hari imodoka.

Abantu bari mu rusengero, umwe arapfukamye yambaye ishati y'umweru, yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, imbere ya padiri hari imeza n'intebe ifite ibara ry'ikijuju.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu yambaye marinete n'ikora ry'abapasiteri. Iruhande rwe hari abagabo batatu, naho ku rundi ruhande rwe hari abagabo babiri bafite bibiliya mu ntoki.

Umupadiri uri kumwe n'abantu batatu, harimo umusirikare uri kumuha ikiganza, uwo mupadiri yambaye amalineti , kuruhande rwe hari umugabo ,wambaye ikoti ry'umukara.

Abantu benshi bicaye, harimo n'umuntu umwe uhagaze, bambaye amashati ya burusiyeli, hasi ubururu, imbere yabo hari umupadiri ufite mikoro arimo kuvuga.

Inzu iriho indabyo, imbere hagaragara ko ari kuri resebusiyo ndetse, urabona ko hari ibintu bisize amarangi y'umweru n'umutuku, bigaragaza ko aho kuhinjira bitemewe.

Abantu benshi bari muri sale bamwe batonze umurongo, abandi barabakikije, aho hantu hari ibipurizo bisa umweru ndetse harimo abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye.

Ibikoresho byo kurisha biri kumeza harimo ibiyiko, amasahani ndetse n'amafoke n'icyuma, imbere yaho harimo ikintu kimeze nkaho ari icyatsi.

Icyumba kirimo igitanda, gishasheho amashuka y'umweru n'imisego y'umweru, hejuru hamanitseho supanete y'umweru.

Hoteli igaragara nk'aho ifite amatara atari kwaka ndetse na purafo ijya gusa ikijuju, amabara y'umweru n'umukara, iruhande hari ay'ubururu ndetse n'indabyo.

Kuri pisine hari intebe zo baryamaho ndetse hamanitse umutaka, hakurya hari ibyatsi ku gasozi n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ahantu hari intebe z'ubwoko butandukanye, hari ibirahure ndetse asize amarangi y'umweru ndetse n'imbere harimo amatara ari kwaka.

Inzu ya etaje igeretse kabiri, imbere yaho hari umuhanda wa kaburimbo, isakaje amabati y'umweru ndetse irimo n'ibirahure, imbere yayo hari jaride irimo ibiti n'ibyatsi.

Hoteri irimo jaride z'uturabyo tw'umuhondo n'icyatsi, imbere harimo intebe zisa umweru ndetse n'iza oranje, hariho inzugi zisa umukara.

Igitanda gishashe n'ishuka y'umweru, imisego y'umweru, hejuru hari itara ririmo kwaka, ndetse na supanete iziritse, ku ruhande hari icupa ry'amazi y'inyange.

Inzu irimo televiziyo, supanete y'umweru, ndetse n'amarido ku madirishya, uburiri bushashishije ikuvurori n'ishuka, hasi hari amakaro.

Ibitanda bibiri biri mu cyumba kimwe, bishashe amashuka y'umweru imisego y'umweru ndetse n'ikovurori ifite ibara nk'iry'ingwe.

Abagabo babiri bari gusunika ibitoki umwe yahagaze undi ari inyuma yigare yambaye ingofero y'ubururu, ishati y'umweru ndetse bari mu muhanda wa kaburimbo.

Abantu benshi bari mu isoko, umwe afite indobo .Ku ruhande hari umugabo wambaye agapira k'umuhondo, imbere harimo ishati y'umweru ,harimo ibikoresho byinshi bigurishwa.

Imbuto z'ubwoko butandukanye ziri mu isoko hari kwaka amatara ariko ari mu ijoro, harimo imineke, harimo amatunda, ibinyomoro ndetse n'amakarito, harimo ibintu bitandukanye, harimo n'ibintu bijyanye n'ibyo guteka.

Ihene ebyiri ziziritse ziri ahantu mu byatsi hashinze igiti ndetse hari n'ikindi kintu cy'umukara imbere yazo, izo hene zifite amabara y'umukara ndetse ziziritse ibiziriko mu ijosi.

Ubutaka bw'ikijuju buteyeho utwatsi ndetse iruhande hari ikintu gisa nk'umukara, imbere yaho hari ibuye ry'ikijuju.

Umudamu uhagaze, yambaye igitambaro cy'umukara n'agashati karimo amabara y'umweru n'umutuku, imbere ye, hari imineke yahiye, iruhande rwe hari umwana w'umusore.

Intama iri mu bwatsi iziritse ku giti gifite hejuru umutambiko izirikishije ikiziriko kijya gusa n'ikijuju, ifite amabara y'umweru n'ikijuju.

Umuntu wirabura ufite ibintu mu ntoki arimo kugurisha, harimo utuntu batwaramo ibintu, ku ruhande rwe hari umwana urimo kumwitegereza nawe afite ibintu arimo kugu.

Umusore uri mu isoko iruhande rwe hari abandi bantu benshi, imbere ye hari imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'imitaka ya MTN na Tigo.

Abantu benshi bari mu isoko harimo inyanya, intoryi, urusenda, karoti, inyuma yaho hari abandi bantu bicaye bambaye ibitenge birimo umuhondo n'ubururu.

Ibikombe bibiri, bibiri, birikumwe n'amasahani abiri, hariho ubwoko bw'ibiryo, butandukanye, kuruhande hari, ibikombe birimo, imbuto z'ubwoko butandukanye.

Hoteli irimo amatara ari kwaka y'umuhondo, ari mu ijoro, harimo umukobwa wambaye agapira k'umweru, n'ipantaro y'umukara, imbere ye no ku ruhande rwe, hari intebe.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo atwaye moto, yambaye Casike y'umutuku, yambaye ikote ry'umuhondo, ipantaro ya move n'inkweto za tufu.

Abamotari babiri, umwe araparitse ntayiriho, undi ayiriho ariko nayo ntiri kugenda, bose bari kureba inyuma umwe yambaye ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara n'agapira k'umweru, undi yambaye umukara n'ipantaro y'ubururu.

Umu motari uhetse umugenzi. Bari mu kerekezo kerekera ku muntu uri imbere yabo. Moto bariho ifite purake isa umuhondo, inyuma hari akantu bahetse gasa umweru.

Abamotari babiri bambaye kasike na moto zifite amabara y'umutuku n'umukara, ndetse bafite kasike z'icyatsi n'ikirahure imbere.

Umunyonzi uri mu muhanda ku igare, yambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara na bodaboda z'ubururu, ahetse ibitoki byinshi, inyuma hariho ikuse y'umutuku, ku ruhande rwe hari amashuri.

Umumotari uhagaze imbere ye hari umugenzi wambaye kasike barimo kuganira, motari afite kasike z'ubururu n'ijiri yambaye yanditseho Tigo Eyateri, inyuma ye hari abandi bamotari.

Umumotari uri mu muhanda yambaye ikasike y'icyatsi, ijiri y'ubururu na moto ifite amabara y'ubururu n'umuhondo, ndetse n'icyatsi inyuma ahetse umugabo wambaye kasike y'icyatsi, igikapu cy'umukara, agapira k'umuhondo, n'ipantaro y'umukara.